Aha ni ahantu hari abantu benshi baracyeye cyane, bicaye ku ntebe z'imyeru, bari ku murongo bisa nkaho barimo nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane bari mu nzu isize amabara y'umweru bicaye ku ntebe z'imikara bisa nkahoa bari mu nama, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, mu nzu isize amabara y'umuhondo , bicaye ku ntebe z'imituku bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane ubarebye ku myambaro yabo bari mu nzu isize amabara y'umweru bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, higanjemo abagabo gusa bicaye ku ntebe z'imikara.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe barakeye cyane urebye ku myambaro yabo higanjemo abagabo babiri n'umukobwa umwe, imbere kandi hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa n'indabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru bamwe barahagaze abandi baricaye ku ntebe z'imikara higanjemo abagore n'abagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze abandi baricaye, bambaye impuzankano y'umutuku n'umukara, higanjemo abakuze, abatoya, abakobwa ndetse n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane ubarebye ku myambaro yabo yiganjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bicaye ku ntebe z'imyeru.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze yambaye neza cyane ikote ndetse n'agapira k'umuhondo afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi, imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri babiri, bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo umugabo n'umugore bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku murongo aho imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, yiganjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano z'ubururu bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umuhondo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'imikara uko ari bose bari mu nzu isize amabara y'umuhondo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane bari mu nzu isize amabara y'umuhondo higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, mu nzu isize amabara y'umuhondo, bicaye ku murongo bisa nk'aho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane ubarebye ku myambaro yabo bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo bisa nkaho bari mu nama higanjemo abagore n'abagabo.

Aba n'abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeya cyane bicaye ku ntebe z'imyeru higanjemwo abagore n'abagabo inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'umukara, imbere yabo ateretse uducupa twa mazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bambaye impuzankano y'umukara, bari mu nzu isize amabara y'umweru bisa nkaho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bambaye imyenda myiza, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bambaye imyenda myiza, higanjemo abagore n'abagabo bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara...

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bicaye ku ntebe z'imikara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bisa nkaho bari mu nama bicaye ku murongo higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ateretse uducupa twamazi.

Abani abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore n'abagabo ndetse na'bana bakiri bato, bisa nk'aho aho bari mu nama bicaye kumurongo ku ntebe z'umuhondo, ubururu n'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane nk'uko bigaragara, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'umukara, bari mu nzu isize amabara y'umweru higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara mu nzu isize amabara y'umuhondo, imbere yabo atereretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane. Bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo, bari mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri bane urabona ko bakeye cyane bambaye impuzankano z'umweru higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu ubona basa nk'abakiri batoya bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane, bicaye ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bafite ibyishimo, bigaragara ku maso bari gusabana bamwe barabyina bari guseka cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi na za murandasi, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, barakeye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane. Bambaye impuzankano y'ubururu bari mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku ntebe z'umuhondo, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo kandi barakeye. Higanjemo abagore n'abagabo basa nk'abakuze, bakikijwe n'ibiti birebire bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, bisa nk'aho bari mu nama mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze bambaye impuzankano z'ubururu bafite impapuro z'umweru mu biganza byabo, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara mu nzu isize amabara y'umuhondo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bisa nk'aho bari mu nama, bari mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse za murandasi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa n'impapuro na za murandasi, higanjemo abagore n'abagabo bombi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bacyeye cyane bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imyeru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru baracyeye cyane bicaye ku murongo higanjemo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, imbere y'abo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi buzuye ahantu hamwe mu nzu isize amabara agiye atandukanye, umuhondo, umukara, biganjemo abagore ndetse n'abagabo bose baricaye bisa nk'aho bari mu nama. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bamwe muri bo bari guseka bafite ibyishimo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bari ahantu hasa umweru bigaragare ko ari mu ihema.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, bamwe muri bo basa nk'abahuze higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'imikara, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye bisa nkaho bari mu nama bicaye ku murongo higanjemo abagore n'abagabo, urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeya cyane kandi bafite ibyishimo bari guseka, bahagaze ku murongo uko ari bose, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane higanjemo urubyiruko, abakuze abagore ndetse n'abagabo, benshi bambaye impuzankano zijya kumera kimwe, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bari mu nzu isize amabara y'umuhondo bamwe muri bo bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umukara imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urababona ko bafite ibyishimo, ubarebye ku maso yabo bari guseka, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, imbere hateretse uducupa tw'amazi na muransi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho barimo mu nama bicaye ku murongo imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo bari mu nzu isize amabara y'umweru.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, yambaye amadarubindi ari mu nzu isize amabara y'umweru, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi, imbere ye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'umweru, higanjemo abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, baracye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo, imbere yabo uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse na murandasi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeyeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, amatara y'umweru, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bisa nkaho bari mu nama, bari mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse murandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na murandasi bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane; higanjemo urubyiruko, abakuze, abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe z'imyeru bamwe barahagaze urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batatu baracyeye cyane bari ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'imikara bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane bicaye ku murongo higanjemo abagore ndetse n'abagabo bari mu nzu isize amabara y'umuhondo n'amatara meza y'umweru, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'umukara, aho bari hagizwe n'amabara y'umweru higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bacyeye cyane, bisa nk'aho bari mu na nama yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bicaye ku ntebe z'imyeru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye mu busitani bwiza bw'icyatsi higanjemo abagore, abakuze, urubyiruko ndetse n'abagabo, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara imbere hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru n'ubururu, bicaye ku ntebe z'umutuku, higanjemo abagore n'abagabo, bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu, bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bari guseka bafite ibyishimo, bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imyeru, higanjemo abagore, ndetse n'abagabo.

Uyu ni umukobwa ubona usa nk'aho akiri muto, hari ibyo yarangariye. Yambaye ishati y'umutuku, irimo umweru n'umukara, imbere ye hateretse ibitabo byinshi n'agacupa k'amazi, yicaye ku ntebe y'umukara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara bose bari ku murongo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, urabona ko bishimye cyane bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na murandasi, higanjemo abagore n'abagabo bakeye cyane.

Uyu ni umunara muremure ugera mu kirere ufasha abakoresha ikoranabuhanga kuba babona itumanaho, usa umutuku n'umweru; ukikijwe n'ibiti byiza bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari abantu bahagaze, imbere yabo hari ibitoki.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga, n'amahumbezi, ndetse n'amazu ya etage agerekeranyije.

Uyu ni umuhanda mwiza usize amabara y'umukara, wo mu bwoko bwa kaburimbo, ndetse n'uturongo tw'umweru, haranyuramo amagare menshi n'abantu bayariho, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire riziritseho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi riteye mu busitani bwiza ndetse n'ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi ku bari aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo abantu bagiye batandukanye ukikijwe n'amashyamba manini kandi meza atanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire rihuriweho n'insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti byiza bitoshye by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande, mo hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto ndetse n'imodoka.

Uyu ni umuhanda w'igitaka uranyuramo abantu benshi bagiye batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo n'ibinyabiziga, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahaca bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati, hirya gato hari ibiti birebire, bitoshye by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande hari ubusitani bwiza bugizwe n'indabo z'umuhondo n'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umunara muremure cyane uziritseho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ukikijwe n'ubwawutsi bwiza n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'igiti gitoshye kandi kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze ibinyabiziga nka moto ndetse n'abantu, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi, bitoshye ku bantu bose banyura aho ngaho.

Uyu ni muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande aracamo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umunara muremure wuzuyeho insinga nyinshi zifashishwa gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hirya gato hari igiti kinini cy'icyatsi gitoshye gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, usa nk'ushaje, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihagenda byose.

Izi ni imodoka eshatu ziri ahantu hamwe, ebyiri muri zo zisize amabara y'umweru, indi ni umutuku hakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bari aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi hagaze ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, hahagazemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba iby'umutuku n'ibyumweru, byose ni imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hirya gato hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hirya gato hahagaze ibinyabiziga by'imodoka.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bari mu busitani bwiza bukikijwe n'ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi, biganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bamwe baricaye, undi arahagaze, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, yambaye amakanzu y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, agasatsi ke karasokoje, afite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso hiwe.

Uyu ni umugore ubona mwiza cyane usa nk'ukuze umurebye mu maso he agasatsi ke karasokoje yambaye amadarubindi, ingofero y'umukara irimo umuhondo ndetse n'ikanzu y'umutuku n'umweru hagati.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane bicaye ku ntebe z'imihondo, imbere yabo hateretse za murandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze umurebye ku maso ye agasatsi ke karasokoje, yambaye ishati y'ubururu n'ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, urabona ko ari ibintu byiza cyane bimubereye.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bahagaze ku murongo mu nzu isize amabara y'umweru n'ubururu higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeya cyane, bisa nk'aho bari mu nama yiganjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, bambaye impuzankano zisa, uko ari bose bicaye ku murongo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bambaye impuzankano y'umutuku n'udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hari za murandasi urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze umurebye ku maso he arakeye afite ibyishimo ari guseka, umusatsi we urasokoje, yambaye ikanzu y'umutuku irimo n'umweru hagati bimubereye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, bamwe baricaye abandi barahagaze, higanjemo abagore n'abagabo bisa nkaho bari mu nama, hari abambaye impuzankano y'umutuku n'ingofero z'umukara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze abandi baricaye mu busitani bwiza cyane butoshye bw'icyatsi, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho bose.

Aba abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakenye cyane. Bambaye impuzankano y'umutuku n'umweru ndetse n'ingofero z'umukara zirimo uturongo tw'umuhondo, yiganjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze afite ibyishimo ku maso he ari guseka. Agasatsi karasokoje yambaye ikanzu y'umutuku irimo umukara n'umweru hagati.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe basa nk'abakuze bari kuganira bamwe baricaye abandi barahagaze bakikijwe n'ibiti byiza bitanga umuyaga n'amahumbezi higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bambaye impuzankano z'umukara n'umweru imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe baracyeye cyane bambaye impuzankano zisa umukara, umweru ndetse n'udupfukamunwa. Imbere yabo hateretse za murandazi higanjemo abagore n'abagabo.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, kiri mu nzu isize amabara y'umweru, na cyo kigizwe n'umutuku ndetse n'ubururu.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije, isize amabara y'umweru ndetse n'umukara imbere yayo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari ahongaho bose.

Ubu nu ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi. Harimo abantu benshi basa nk'abanyeshuri kubera ko bambaye impuzankano z'ubururu n'umukara, umwe muri bo arahagaze, afite igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, hirya gato ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhandeca ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, igare ndetse n'imodoka.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, gifite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umunwa w'umukara, nakugira inama nawe yo kukigura.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande ndetse no hagati, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga biri mwaho ngaho byose.

Uyu ni mugore ubona usa nk'ukuze yicaye ku ntebe y'umukara, ari mu nzu isize amabara y'umuhondo, yambaye amadarubindi n'ikote ryiza n'agapira k'umweru umusatsi we urasokoje.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barahagaze bari ku murongo urabona ko ari ibintu byiza cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze afite ibyishimo ku maso he ari guseka, umusatsi we muremure urasokoje yambaye ishati y'umweru n'ibitenge akikijwe n'ibiti byiza bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bari kugenda barishimye baracyeye cyane mu maboko yabo bafitemo amafoto higanjemo abagore n'abagabo hirya yabo ari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara barakeye cyane, bambaye neza bisa nkaho bari mu nama mu nzu isize amabara y'umuhondo higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakenye cyane bahagaze ku murongo higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bafite ibyishimo bari guseka bamwe ni abagabo abandi ni abana ndetse n'urubyiruko higanjemo n'abagore urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo bambaye amakote bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abagore benshi bari ahantu hamwe baraberewe cyane bazamuye amaboko yabo bafite amadarapo, bambaye umweru n'umukara basa nk'abakuze barishimye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo, baracyeye cyane bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, yiganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane bisa nk'aho bakuze wagirango bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, buri wese yazamuye akaboko k'iburyo, akandi gafashe ku idarapo, abagabo bambaye amakote, abagore ni imishanana myiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane mu nzu igizwe n'amabara agiye atandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama. Bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo yiganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ikinyabiziga cy'umweru gitwara imizigo irya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haragendamo ikinyabiziga kinini cy'icyatsi ndetse n'umutuku, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, harimo ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwiza, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amagare ndetse n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara. Hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto. Ku ruhande abantu bahagenda ndetse n'imodoka zihagaze. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cy'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire binini bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amabumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, yaba inini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'abantu hafi aho.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uranyuramo ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hanyuramo ikinyabiziga kikorera imizigo cy'umweru. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga kinini cyikorera imizigo mu imbere harimo inka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga imiyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga gitwara imizigo cyu'mweru hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, huzuyemo abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'igare ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru hagati na ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka itwara imizigo ndetse n'abantu bahaca hafi aho.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye yaba ibinini n'ibito byose bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari abantu bari kuhagenda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga kinini gitwara imizigo cy'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka itwara abagenzi, hirya gato hari ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, nka moto, imodoka, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari abantu bahagenda higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, aranyuramo ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange binini ndetse n'abantu benshi bahanyura.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru ku ruhande n'utundi two hagati tw'umuhondo, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara usa nk'ushaje harimo ibinyabiziga byinshi yaba ibito n'ibinini byifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'abantu bahari.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga kinini cyikoreye inka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'amamodoka y'umweru irya gato hari abantu bahagaze imbere y'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haragendamo ikinyabiziga kinini gitwara imizigo, hirya yacyo ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande ndetse no hagati utw'umuhondo haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haragendaho igare ririho umuntu wambaye ishati y'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto y'ubururu ndetse n'ikindi kinyabiziga cyikorera imizigo nk'umucanga cy'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto n'amagare ndetse n'abantu benshi.

Aka ni agahanda gatoya karimo abanyamaguru benshi gakikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto y'amapine atatu ndetse n'imodoka.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo abantu bagiye batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo hari n'ibinyabiziga ku ruhande nka moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye igare, moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ikinyabiziga cy'imodoka, hirya gato hari abantu batandukanye bari kuhagenda, higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze ibinyabiziga bigera muri bibiri bya moto, bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, utundi tw'umuhondo hagati, haranyuramo ikinyabiziga cya moto, ukikijwe n'ibiti n'ubusitani bwiza bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande urabona ko usa nk'shaje hanyuramo abantu bagiye batandukanye yaba abagore n'abagabo hahagaze n'ibinyabiziga byinshi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hahagazemo ikinyabiziga cyiza gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ikinyabiziga kinini gitwara imizigo, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto itwara imizigo, igare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, urasa nk'ushaje, harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinini n'ibitoya byose bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ikinyabiziga kinini gitwara abantu mu buryo bwa rusange cy'ubururu, hirya gato'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga cya moto cyikorera imizigo cy'ubururu hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, amagare, ndetse na moto. Hirya gato hari abantu benshi bari kuhagenda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato ari ibiti birebire binini bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, hirya gato hari abantu bahagenda higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati haranyuramo ikinyabiziga cya moto, hirya gato hari amazu menshi kandi meza.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda wo mubwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru hagati ndetse no ku ruhande haracamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye nk'imodoka yikorera imizigo,

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande ndetse no hagati haranyuramo ikinyabiziga nka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara harimo ibinyabiziga byinshi by'amagare ndetse n'abantu bahagaze ku ruhande higanjemo abagabo gusa hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga kinini cyikoreye imizigo cy'umutuku, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haraanyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, igare moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hari ibinyabiziga bimenyerewe mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange bihagaze ari byinshi inyuma yabyo hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi burimo indabo zitanga akayaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga cyikoreye umucanga cy'umutuku, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ikinyabiziga cyikorera imizigo cy'imodoka. Hirya gato hari igare n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibyapa bibiri byo mu muhanda biyobora ibinyabiziga, bigizwe n'amabara y'ubururu, umweru n'umukara ndetse n'umutuku, bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umusore ubona usa nkaho akiri muto agasatsi ke karasokoje, afite igikapu ku bitugu bye, yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ikinyabiziga cy'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande hari abantu benshi bahagaze, hakikijwe kandi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amatara yo ku muhanda yerekana ibyerekezo akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyurangaho bose agizwe n'amabara y'icyatsi n'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande hari ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubanyura aho ngaho bose.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda kimanitse ahantu, ku ruhande hari ubusitani bwiza n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo abantu bagiye batandukanye, ukikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani bwiza butanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, hahagazemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hari amazu menshi, amwe muri yo afite amabati y'umweru, andi n'umutuku, akikejwe n'ibiti birebire kandi byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe, akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi. Amwe muri yo asize amabati y'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hagendamo ikinyabiziga cya moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku banyura ngaho bose.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro nyinshi igizwe n'ibirahure bibonerana hasi yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo z'umweru, umuhondo n'icyatsi.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi asize amabara y'umweru, amabati arasa umutuku akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, urabona ko ari munini cyane, ku rundi ruhande gato haranyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'ibyikorera imizigo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka n'abantu bari ku ruhande.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, amagare ndetse n'abantu, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe urabona ko akeye cyane afite amabati asize amabara y'umutuku, hirya gato akikijwe n'ibiti birebire bitanga n'amahumbezi.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe yiganjemo ayo mu bwoko bwa etaje afite amabati asize amabara y'umutuku akikijwe n'ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wigitaka muremure kandi munini kuruhande rwawo hahagaze ibinyabiziga nk'imodoka bitwara abantu hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu agiye atandukanye ari ahantu hamwe, amenshi muri yo ni ayo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije, afite amabati y'umutuku akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hari amazu menshi agiye atandukanye, amenshi muri yo aragerakeranyije ni ayo mu bwoko bwa etaje kandi afite amabati asize amabara y'umutuku, akikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande, hahagaze ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda mwiza ukozwe mu buryo bw'amabuye ukikijwe n'ubusitani butoshye bw'icyatsi bufite ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubanyura aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, amagare ndetse n'imodoka.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, igizwe n'amabara agiye atandukanye umweru, umuhondo ndetse n'ibirahure by'umukara, hanze gato hari ubusitani bwiza buririmo indabo zitoshye z'icyatsi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande aranyuramo abantu bagiye batandukanye abagore ndetse n'abagabo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo t'wuumweru kuruhande gato hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihagenda byose.

Aha ni ahantu huzuye amazu agiye atandukanye, amenshi muri yo amabati asize amabara y'umutuku, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara nuturongo twumweru kuruhande hari ubusitani bwiza butoshye bwicyatsi burimo ibiti bitanga akayaga n'mahumbezi ku bagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru n'utundi tw'umuhondo ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, hirya gato hari abantu n'ibiti birebire bihateye bitanga umuyaga n'amahumbeziye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ikinyabiziga cya moto. Hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabizigagiye bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande haracamo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka. Hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho bose.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande, ndetse n'ubusitani bwiza bwi'cyatsi, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto n'amagare.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari inzu nziza.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'uturongo tw'umweru hagati, no ku ruhande aracamo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, n'igare, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga, n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara agendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto n'igare hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amagare ndetse na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare ndetse n'abantu hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umuhondo n'utundi tw'umweru dukikijwe n'ubusitani bwiza bwicyatsi butoshye birimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, amagare n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka usa nk'ushaje, ni muremure cyane, ukikijwe n'ibiti binini by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye n'abagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, igare n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haragendamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, ukikijwe kandi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, igare n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bibiri bya moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande, hirya gato hari ibiti birebire, bitoshye, by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye hirya gato hari ubusitani n'ibiti bitanga akayaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande n'utundi tw'umuhondo hagati hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande, hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baciye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku hande n'utundi tw'umuhondo hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweruhagati no ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho bose.

Uyu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga nka moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.